Amashuri yubatse ahantu heza kandi hagari, imbere y'ayo mashuri harimo ubusitani bwiza, burimo indabo zitandukanye. Aya mashuri ni amashuri meza abana bayigamo batsinda neza.

Ikigo gifite amashuri yigisha siyanse, bafite icyumba kibikwamo ibikoresho bifashisha bari kwigisha siyansi. Iki kigo abana bakigaho ,bagira ubumenyi bwinshi kandi buhagije.

Urubyiruko rurashishikarizwa kwiga imyuga harimo n'imyuga yo gukora amaradiyo, ibyo bizabafasha kwiteza imbere vuba kandi ntirugore igihugu.

Abasore bambaye imyenda ibaranga n'ingofero z'ubwirinzi. Bigaragara ko bari kwiga ibijyanye n'imyuga, imyuga ni umwuga mwiza uzabafasha mu kwiteza imbere, mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Iwacu mu Rwanda tugira imyuga myinshi itandukanye. Urubyiruko rw'iwacu turushishikariza kwiga imyuga harimo imyuga y'ubusudizi, kuko gusudira bifasha urubyiruko kwiteza imbere bakikura mu bukene.

Mu rwego rwo guteza imbere urubyiruko, rushishikarizwa kwiga imyuga itandukanye. Aba bakobwa bambaye imyenda ibaranga, ingofero z'ubwirinzi ,barimo barakata ibyuma by'ubwubatsi, bifashishije imashini yabugenewe.

Mu gihugu cyacu hari gahunda yo guteza imbere urubyiruko binyuze mu kubigisha imyuga itandukanye. Gusudira. Gukora amaradiyo, amatelefone ndetse n'ibindi. Ibyo bizafasha uru rubyiruko mu kwikura mu bukene.

Uburezi bw'iwacu mu Rwanda ni uburezi buri gufasha abana kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga cyane cyane mudasobwa, aba banyeshuri bari kwiga mudasobwa bivuze ngo ibyo bari guhabwa bizabagirira umumaro mu minsi iri imbere.

Mu myuga myinshi tugira hano iwacu, harimo n'umwuga wo gukora amateleviziyo, amatelefone ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, umwuga wo gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga ni mwiza, ufasha urubyiruko mu kwiteza imbere.

Mu buryo bwo guteza imbere uburezi ,leta yacu yafashe umwanzuro wo kugaburira abana ku bigo by'amashuri. Abayobozi basuye abana ku ishuri ngo barebe niba barya ibiryo byiza kandi bifite intungamubiri.

Abasore n'abakobwa biga umwuga wo guteka. Umwuga w'ubutetsi ni umwuga mwiza cyane, iyo wawukurikiranye neza ugufasha kwiteza imbere. Bityo bikagufasha kugera aho wifuza.

Iwacu badushishikariza kwiga imyuga itandukanye harimo umwuga w'ubudozi; umwuga w'ubudozi ni umwuga mwiza kandi ufasha urubyiruko kwiteza imbere, umwuga w'ubudozi ni umwuga mwiza.

Mu myuga myinshi dufite hano iwacu mu Rwanda harimo n'umwuga w'ubwubatsi. Ubwubatsi ni umwuga mwiza cyane ufasha buri wese uwukora kwiteza imbere, abasore benshi ndetse n'abagabo bari kubaka amatafari ahiye bambaye ingofero z'ubwirinzi ndetse n'imyenda yabugenewe.

Urubyiruko rw'iwacu rwiga ibintu bitandukanye, harimo gucuranga, kuvuza ingoma za kijyambere, bityo bituma urubyiruko rwacu rudahura no kwigunga.

Mu rwego rwo gushishikariza urubyiruko kwiga imyuga itandukanye, hano hari abakobwa n'abasore bari kwiga ibijyanye no gukora amazi. Bari gukata amatiyo yo gukoresha bafunga amazi. Umwuga wo gukora imigezi ni umwuga mwiza cyane.

Ishuri ririmo abakobwa n'abahungu, abakobwa bo muri iri shuri bapfutse mu mutwe cyangwa se baritandiye, bivuze ngo iki kigo ni icyo abisilamu. Umuyobozi yabasuye, arimo arabashishikariza kwiga cyane, bagatsinda neza.

Abasore n'inkumi bambaye imyenda y'ishuri ndetse n'ingofero zabugenewe, bari kwiga ibintu bijyanye n'imyuga, bari gufunga ibyuma bitandukanye. Aba basore ndetse n'izi nkumi uyu mwuga uzabateza imbere.